Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi, hakubiyemo n'ibicuruzwa, kiriho umugore urimo guseka, wicaye mu modoka, ndetse na nimero za telefone.

Intebe, ameza manini, icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi bukubiyemo ubw'ibinyabiziga, ubwo mu rugo, buzima, ubwubatsi, kwibwa n'impanuka.

Icyapa cyamamza ikigo gitanda ubwishingizi mu Randwa hari imodoka irimo umusore ndetse n'umukobwa handitseho iyi weekend irabera he? ntuhagarike gahunda inshuti yizewe hafi yawe mu gihe ukeneye ubwishingizi bw'imodoka yawe.

Icyapa cyamamaza ikigo gikorera mu Rwanda, gitanga ubwishingizi, ubw'inkongi z'umuriro, ubw'umuryango, ubw'impanuka, ndetse no guteganyiriza amashuri abana.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi gikorera mu Rwanda, hariho umugore ufite telefoni mu ntoki, urimo guseka, handitseho kandi kuba hoteri yuzuye, ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe.

Iyi foto iriho porogaramu ya banki yifashishwa mu kwishyura, kubitsa no kubikuza amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, ndabonaho kandi amazina ndetse n'imibare ya konte z'abakiriya.

Urubuga rwa banki ikorera mu Rwanda rufasha abakiriya kohereza, kubitsa, kugura amayinite no kwishyura ibintu bitandukanye hakoreshejwe telefone.

Urubuga rwa banki rwifashishwa n'abakiliya, mu gufungura konti nshya, kubitsa, kubikuza no kohereza amafaranga, hifashishijwe ikoranabuhanga.

Inyandiko ya banki ifasha umukiriya kugura amayinite ndetse no kwishyura ibintu bitandukanye akoresheje konti ye aho ashyiramo nimero ze za telefone.

Iyi foto ndikubonaho abantu batatu bakora mu kabari, umugabo umwe uri hagati y'abagore babiri, inyuma yaho hari amacupa y'inzoga ateretse mu kabati.

Iyi foto ndikubonaho umuntu uri kunywa inzoga, iri mu kirahure. Imbre ye hariho agakombe, iruhande rwako hari imigati ndetse na sosiso.

Iyi foto ndikubonaho icyapa kiri ku muhanda cyampamaza inzoga yitwa sikoru iruhande rwaho hari igipangu kiri kumuhanda, urimo ibiti ndetse n'abantu barikuwutambukamo.

Iyi foto ndi kubonaho akabari gafunze gucuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Harimo intebe, hanze yako hari abagabo babiri bahagaze n'undi munyozi uri gutambuka ku muhanda.

Iti foto ndi kubanaho akabari imbere harimo inzoga zamoko atandukanye ahateretse kumeza abakiriya babiri bahagaze, abandi bicaye, intebe na ekara.

Iyi foto ndi kubonaho akabari gafunguye kubakishijwe amatafari ahiye, imbere mu nzu harimo amakaro, intebe eshatu zisa umukara n'ameza asa shokora.

Iyi foto ndabonaho abagabo babiri umwe ni umukozi wo mukabari, undi ni umukiriya wicaye yambaye ingofero n'imyenda byose bisa umukara, hirya hari intebe ziticayeho abantu, mukabati hari inzoga zirimo hari n'amatara ari kwaka.

Iyi foto ndikubonaho abantu bensi bari mu kabari abahungu bagera kuri cumi na batatu ndetse n'abakobwa batatu bamwe baricaye abandi barahagaze muri bo harimo n'umuzungu bose bari kunwa inzoga ndetse na fanta.

Iyi foto ndi kubonaho abantu benshi abakobwa ndetse n'abahungu bari kunywa inzoga bari mu kabari, bari kureba televiziyo irimo kwerekana umupira w'amaguru.

Iyi foto iriho ameza ateretseho igitabo gikoreshwa mu kabari mu kwakira abakiriya harimo urutonde rw'ibiribwa n'ibyo kunywa n'ibiciro byabyo.

Iyi foto ndikubonaho akabari kubakishijwe amatafari ahiye, harimo itara ririmo kwaka, akabati karimo inzoga nyinshi, ameza, intebe zigera kuri enye, hirya yaho hahagaze umugabo.

Iyi foto ndabonaho akabari karimo abakiriya babiri, imbere yabo ku kabati hateretseho amacupa abiri n'ikirahure birimo inzoga n'agacupa karimo umunyu, imbere harimo umudamu ukoreramo wambaye agapira k'umweru.

Iyi foto, ndi kubonaho akabari, iruhande ku gipangu hahagaze umugabo, imbere hariyo intebe, ku muhanda haparitse igare, ndetse hari no gutambuka umumotari utwaye umugenzi, hirya hari gutambuka umuntu, hari n'imodoka iri ku muhanda.

Iyi foto ndikubonaho umugabo wicaye uri gusoma igitabo, iruhande rwe hari impapuro nyinshi, n'icyapa gishushanijeho ibitunguru, n'icupa ririho inzoga.

Iyi foto ndi kubonaho imodoka eshatu, iruhande rwazo hahagaze abagabo babiri, imbere hari imiryango y'utubari ducuruza inzoga hari n'icyapa.

Iyi foto ndi kubonaho umukobwa ukora mukabari yambaye umupira w'umukara afite telefone muntoki n'ikarita. Inyuma hariyo akabati karimo inzoga nyinshi zigiye zitandukanye.

Iyi foto ndi kubonaho amaduka atandukanye ari ku muhanda, amwe arafunguye, andi arafunze, hariho icyapa gishushanyijeho icupa rivamo inzoga, hari n'imodoka ziparitse ku muhanda, hari umutaka wa MTN, intebe ndetse n'umuntu uri gutambuka mu muhanda.

Iyi foto ndikubonaho akabari karimo intebe zisa umutuku, amafoto atandukanye, ameza, abakiriya bahagaze n'abandi bicaye. Ndikubonamo n'utubati.

Iyi foto ndikubonaho igitabo kiriho urupapuro rugaragaza ibyaguzwe mu kabari bigiye bitandukanye, hari n'ameza ateretseho isahane iriho imiheha, inyuma yaho, hari akabati.

Iyi foto ndi kubonaho inzu irimo intebe, utubati, amadirishya n'imitako igiye inyuranye ndetse n'utubati dutandukanye.

Iyi foto ndikubonaho abagore babiri bahagaze iruhande rw'idirishya umwe afite icyuma mu ntoki ze bakoresha bishyura amafaranga bayakura ku ikarita inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho inzoga.

Iyi foto ndikubonaho akabari, karimo amatara menshi ari kwaka n'abantu bahagaze, abandi bicaye, ndi kubona n'inzoga ziteretse ku meza, iruhande rwazo hari n'intebe, inyuma hari n'ibiti.

Iyi foto ndikubonaho akabari karimo akabati gateretseho imashini, iruhande rwayo harimo akandi kabati hejuru karimo inzoga zitandukanye, hari na firigo hari n'itara ririmo kwaka.

Iyi foto ndikubonaho ameza manini ateretseho inzoga iri mu kirahure n'isahane ntoya n'indi nini iriho ibyo kurya n'ibyo kurisha, iruhande rwayo hari icyapa n'inzoga, inyuma hari intebe.

Iyi foto iriho akabari karimo intebe, ameza, ibinyobwa, harimo umugabo uhagaze n'undi uri inyuma wicaye. Hariho n'inkingi zigiye zitandukanye.

Iyi foto ndi kubonaho akabari karimo umugabo wicaye ndetse n'izindi ntebe ziri ku ruhande ziticayemo abantu, imbere hari undi mukobwa wicaye iruhande rwa kontwari uri kunywa.

Iyi foto, ndi kubonaho akabari karimo umuntu umwe wicaye, n'ameza manini ariho icupa n'ikirahure birimo inzoga, ku ruhande harambitse ibitabo, hirya hari intebe.

Iyi foto ndiku kubonaho ibiganza by'abantu babiri umwe afite terefone mu ntoki, ku meza hateretseho icupa ryinzoga n'ibirahuri bibiri ndetse n'ikarita.

Iyi foto ndi kubonaho inyubako nyinshi zigiye zitandukanye utubari, ibisenge by'inzu , ibyuma bikoreshwa mu itumanaho, ibyaoa ny'inzoga ndetse n'ibiti.,

Iyi foto ndi kubonaho akabari karimo ibinyobwa bitandukanye, ibiri mutubati n'ibiri mumakaziye, hariho n'impapuro zabugenewe mu kwihanagura, n'imikenke.

Iyi foto ndi kubonaho icyapa cyamamaza inzoga yitwa jemusoni, hariho icupa, ibirahuri, inyuma hari ibiti biri ku muhanda, n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Uduseke tuboshywe mu mabara atandukanye, tugaragaza umuco w'igihugu cy'u Rwanda, duteretse ku meza hari kandi n'akantu karimo amakaramu.

Iduka ririmo umugabo ucuruza terefone, amasaha, inkweto z'abagabo, amashakoshi y'abagore, n'ibindi bintu.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe barakeye cyane bisa nk'aho bakuze ubitegereje neza, imbere yabo hari meza y'umweru iriho ururabo ndetse n'ibindi bitabo nabashije kumenya ibyo aribyo.

Imbangukiragutabara, imodoka itwara abarwayi n'indembe, indi iri inyuma itwara imizigo, n'indi iparitse, igikontineri kirimo ibara ry'ubururu.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ifite ibara ry'umweru iparitse mu nyubako irimo amakaro, ifite umuryango ukozwe mu birarahure hariho amarido asa umukara n'amadirishya afunguye.

Inyubako y'uruganda rw'Akagera moto, imodoka eshatu, umugabo wambaye umupira w'umweru ufite icyapa cy'imodoka, abazungu babiri.

Ikigo gikorera mu rwanda gicuruza imodoka z'ubwoko butandukanye hari izifite ibara ry'umutuku n'izisa umweru.

Inote y'amafaranga magana atanu itangwa na banki nkuru y' u Rwanda hashushanyijeho inka ebyiri n'umukono wa banki.

Igiceri cya makumyabiri kiri hasi ku makaro, ni amafaranga akoreshwa mu Rwanda hariho ikirangantego cy'ishaka ndetse n'agaseke.

Abantu batatu bicaye, umusore n'umukobwa bombi bambaye udupfukamunwa, telefone, agacupa k'amazi, icyapa kigaragaza uko bohereza amafaranga kuri konti no muri giti banki n'izindi banki zo mu rwanda ukoresheje telefoni.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru ni umukozi w'ishami rya banki, ameza ateretseho mudasobwa, n'imashini isohora impapuro,...

Abagore babiri n'umusore umwe bari muri banki umukozi ukoreramo uri kubafasha kubitsa, kubikuza no kohereza amafaranga kuri konti zabo.

Abashinzwe umutekano babiri b'abasore, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara n'umweru, bafite igisanduku mu ntoki, bakorera ikigo gitanga abantu bashinzwe umutekano gikorera mu Rwanda, imodoka iparitse.

Iduka ricuruza amata ririmo abantu bagera kuri batandatu. Abagabo batanu n'umugore umwe; akabati karimo ibikombe, ibicuba ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Iduka ricuruza amata n'ibiyakomokaho ririmo abantu batatu umusore wambaye umupira w'umutuku, n'undi wambaye umupira w'umukara n'umukobwa bose bafite ibyo kunywa.

Agasorori gakozwe muri purastike, amagi atatu hateretsemo akandi kantu byose biri ku meza, intebe, akabati.

Iyi foto ndabonaho abakiriya babiri bicaye. Umusore ndetse n'umwana w'umuhungu bari kunywa amata; ku meza hateretseho utubido tubiri n'igicuba gikozwe mu cyuma, iruhande rwabo hahagaze umugabo.

Iduka rifite amakaro ku gikuta, ikarito, indobo, akabati gateretsemo utubido twinshi, dushyirwamo amata y'inshyushyu, ndetse n'ikivuguto.

Iyi foto ndabonaho amaduka abiri rimwe ricuruza amata y'iyange hanze hari ameza asa umweru intebe z'ubururu ndetse n'umutaka w'umutuku.

Iyi foto ndikubonaho iduka ricuruza amata harimo icyuma gitunganya amata, utubido, agapaniye, ijerekani iri mu kabati n'intebe.

Iyi foto ndi kubonaho iduka ricuruza ibyo kunywa bikomoka ku mata, amazi, byose bikaba biri mu cyuma cyabugenewe kibifasha kikabihereza ubukonje.

Iyi foto ndikubonaho umugabo wicaye ku ntebe afite akabido ka litiro eshatu mu ntoki ze ari kuvoma amata ayashyira mu ijage, inyuma ye hariho akabati kariho udukarito n'utundi tuntu.

Iyi foto iriho iduka ricuruza ibiribwa bitandukanye n'ibyo kunywa, ifite umuryango usa ubururu, harimo utubati, intebe n'ameza n'icyuma gikoreshwa mu gutanga ubukonje.

Iyi foto ndabonaho iduka ririmo umukobwa wicaye, inyuma ye hari akabati karimo amaji y'ubwoko butandukanye, imbere ye hari ameza ateretseho amafaranga n'udukarito, nanone hari umugabo uhagaze kuruhande hari intebe isa ubururu.

Iyi foto iriho amamashini atandukanye, imashini itunganya amata, ibikoresho bifasha gutuma haboneka umuriro, idirishya rifunze.

Iyi foto ndi kubonaho iduka ricuruza ibyo kunywa bitandukanye n'ibiribwa, imitobe, amasambusa, biswi, harimo utubido, ibyansi n'amandazi.

Iyi foto ndikubonaho umugore uri mu iduka wambaye ibitenge, usa inzobe, usutse yicaye ku ntebe isa ubururu imbere ye hari ameza ateretseho igikombe, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Iyi foto ndi kubonaho iduka ricuruza amata, harimo intebe zigera kuri ebyiri, ameza asa umweru ndetse n'icyapa kinini gishushanyijeho utubido, handitseho na nimero za terefone.

Iyi foto ndi kubonaho iduka ricuruza amata, harimo icyuma kiyatunganya, intebe isa umweru, utubido dutatu, akabati karimo imitobe itandukanye, amazi yo kunywa n'amakarito.

Iyi foto ndikubonaho abakozi babiri ba Mukamira bari gucuruza amata ya mukamira atandukanye ndikubonaho kandi n'icyuma gikoreshwa mu gukonjesha ibyo kunywa.

Iyi foto iragaragaraho icyuma cy'amata, n'umukozi uri kuvomaho amata, ndetse n'indobo, haragaraho n'utubati, turiho ibintu bigiye bitandukanye.

Iyi foto ndi kubonaho iduka ririmo icyuma cy'amata, hejuru yacyo hateretse udukoresho dutandukanye, igisorori, iruhande rwacyo hari intebe, utubati ndetse n'ameza.

Iyi foto ndi kubonaho inzu irimo ibyuma bibiri n'imashini bitunganya amata, hejuru hariho ijage, hasi ku makaro hariho indobo, ku ruhande hari injerekani n'ameza asa umweru.

Iyi foto ndi kubonamo inzu bacururizamo amata, hahagaze umugore, imbere ye hari ameza, hateretseho igikapu, akabido, n'igitabo, harimo intebe, icyapa, inyuma hari igare.

Iyi foto ndikubonaho umuntu ufashe mu ntoki agakarito kavamo ji y'amatunda, iruhande rwaho hari inkweto ebyiri ndetse n'igikoresho gikoreshwa mugutuma haza umuyaga.

Iyi foto ndikubonaho iduka rifunguye ricuruza amata, harimo ameza ateretseho indabo ebyiri zirimo amandazi na kake, hanze mu muhanda hari umugabo uri gutambuka, hari n'ibiti.

Iyi foto, ndi kubonaho iduka ricuruza amata, rirafunguye, harimo abantu babiri; umusore n'umukobwa uri gusuka amata, iruhande rwe hateretse injerekani n'ijage, hahagaze inyuma y'aho undi muntu, ku ruhande hari igiti kihateya.

Iyi foto ndi kubonaho iduka harimo ameza, hariho igitambaro iteretseho akabido n'ibirahure bibiri birimo amata n'intebe ku ruhande isa umweru ndetse n'akabati.

Iyi foto ndabonaho abantu babiri bari mu iduka umugabo n'umugore, ameza ateretseho ijage, icyuma gitunganya amata, indobo, amakarito ari mu akabati n'amandazi.

Iyi foto ndi kubonaho iduka ricuruza amata, harimo akabati kariho icyapa kiriho umwana uri kunywa amata, inyuma harimo akabati karimo amata ari mu dukarito n'andi ari mu dushashi.

Iyi foto ndi kubonaho iduka, harimo akabido karimo amata ateretse ku kabati, iruhande hahagaze abagabo babiri, umwe ari imbere, undi ari hanze ku muryango.

Iyi foto ndi kubonaho iduka ricuruza amata, harimo akabati karimo udukarito dutandukanye tw'amata, uducupa tw'amazi n'indobo irimo amandazi yo kurya.

Iyi foto ndikubonaho iduka ricuruza amata, hariho akabati karimo imbuto ziri mu dusorori, imbuto zikase z'imineke n'amapapayi. Hariho n'indi mineke idakase.

Iyi foto ndikubonaho igikombe kirimo amata y'inshyushyu giteretse ku meza afite igitambaro kirimo amabara y'umutuku n'icyatsi, iruhande rwaho hicaye umuntu, hari n'ibindi bintu bitandukanye.

Iyi foto ndikubonaho iduka ricuruza amazi yo kunywa y'inyange rifite umuryango usa ubururu, hakaba harimo amacupa agera kuri atandatu.

Iyi foto ndi kubonaho iduka rifite umuryango w'ubururu, harimo injerekani zigera muri eshanu n'icyuma gikoreshwa mu gukonjesha ibyo kunywa harimo igikombe ndetse n'iijage.

Iyi foto, ndabonaho iduka ryubakishijwe amakaro, ricuruza amata, harimo ibicuba bigera kuri bitandatu, ndetse n'utubido dusa umweru n'utw'umuhondo.

Iyi foto ndi kubonaho iduka hariho icyapa kigaragaza ko bacuruza amata, n'ibiyakomokaho, imbere harimo utubati tugiye turimo udukarito ndetse n'udukombe.

Iyi foto ndi kubonaho abantu batatu bari mu iduka, babiri barahagaze undi umwe aricaye, imbere ye ku meza hari ibikombe birimo icyo kunywa n'isahani iriho icyo kurya, ku ruhande hateretse amajerekani.

Iyi foto ndikubonaho ijerekani bashyiramo amata, icyuma cy'amata, fitigo, intebe, umugabo n'umwana baje guhaha ndetse n'umuntu ukorera mu idukaka uri kubafasha kubakira.

Urubuga rugaragaza kubitsa, kohereza, kwishyura ubwishingizi, kugura amayinite ukoresheje telefone.

Uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga, ukoresheje terefone ngendanwa.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwifashishwa mu kwishyura, kohereza ndetse no kwakira amafaranga, ikindi kandi ushobora kurukoresha uhaha ibintu bitandukanye.

Icyapa gisobanura uburyo bwo kohereza amafaranga, kiriho umukobwa uri guseka ufite inote za bitanu n'izabibiri mu ntoki.

Urubuga rukoreshwa mu kwishyura amazi hifashishijwe ikoranabuhanga, wandikamo nimero za konteri yawe, ugashyiramo amafaranga, ukishyura ukemeza.

Inzu y'ubucuruzi bugezweho, irimo akabati gasa umweru gafite ububiko bugera kuri butanu bugiye butandukanye, buri bubiko bukaba burimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye

Inyandiko y'imari isabwa hakoreshejwe ikoranabuhanga y'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda ni icyemezo kigaragaza ko umukiriya nta mwenda abifitiye.

Inyandiko yatanzwe n'ishami rya banki rikorera muri Ngoma hariho amazina y'umukiriya witwa Jannette Nduwamariya na nimero za konti ye.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, n'iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga yishyuwe ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Inyandiko itangwa n'ikigo k'imisoro n'amahoro ni inyemezabwishyu igaragaza amafaranga ibihumbi bitanu yaciwe tarafike.

Iyi ni inzu nini mu buryo bugaragara isize amabara y'umweru n'ubururu hejuru ndetse n'umukara ku madirishya n'inzugi ku ruhande hari ubusitani bugaragara neza ubona butoshye, butanga umuyaga ku bagenda bose.

Umuntu wambaye umwenda uri mu ibara ry'umukara, hari ameza ateretseho amafaranga akoreshwa mu kindi gihugu, hari kandi n'igikoresho cyifashishwa mu kubara imibare, urupapuro ndetse n'ikaramu.

Abantu bahagaze ku muhanda, firigo irimo ibyo kunywa bitandukanye, icyapa kigaragaza ibiro bitanga ubufasha mu kuvunjisha amafaranga akubiyemo amadorari ndetse n'amayero.

Kamera zicunga umutekano ziri ku biro bifasha mu kuvunjisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, Kenya ndetse na Tanzaniya.

Ibiro bifunguye bitanga serivisi zo kuvunjisha amafaranga, hicayemo umuntu ufite igitabo uri kwandika, ameza ateretseho ibintu n'inkweto ziri hanze.

Inyubako itanga serivisi zo kuvunjisha amafaranga, harimo ibyapa na televiziyo iri kwaka, hirya hari abazungu babiri umugabo n'umugore.

Inyubako ndende ifite imiryango myinshi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo ubucuruzi bw'imyenda y'abagabo, ndetse n'iy'abagore hari kandi n'ibiro bifasha abantu kuvunjisha amafaranga.

Ibiro byitwa dukomere bitanga serivisi zo kuvunjisha amafaranga birafunguye hari icyapa kigaragaza ibyo bakora intebe, akabati, ibitabo,...

Inzu irimo intebe zikozwe mu giti, zifite imisego iri mu ibara rya shokora, ameza ateretseho igitabo n'igikombe ivaze irimo ururabyo, amafoto; amarido ari mu ibara ry'umweru.

Iyi foto, ndabonaho inyubako irimo intebe z'amoko atandukanye, izifite imyanya itatu, umwe. Hari ameza akozwe mu giti, n'akabati gafite ibara ry'umweru.

Inzu irimo intebe za shokora, umwanya ujyamo amafoto ku gikuta ururabyo ruri mu ivaze yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu irimo amakaro televiziyo ifashe ku gikuta, ivase irimo ururabyo z'icyatsi ifoto, ndetse n'imitako y'ubwoko, butandukanye ameza intebe.

Inzu irimo ameza manini n'amato, intebe z'ubwoko butandukanye zirimo imisego itatu yo gukandagiraho, amafoto amanitse ku gikuta.

Pisine harimo umwana, intebe nyinshi zigiye zitandukanye ziticayeho abantu, indabyo, ibyatsi n'inyubako.

Intebe zigera ku icyenda ziri mu kabari, amatara ari kwaka, akabati karimo inzoga z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibirahure hari kandi na televiziyo.

Hoteri ifite pisine intebe ebyiri icyapa kiri mwibara ry'umuhondo indabyo z'ubwoko butandukanye inzu amadirishya nibyuma bikonjesha amazi.

Hoteri irimo amakaro afite amabara y'ubwoko bubiri, intebe, ibikoresho biri ku gikuta byifashishwa mu kwerekana amashusho n'amatara ajimije.

Uducupa tw'amazi, ibirahure bibiri biteretse ku meza, ikawa udupaki tw'amajyane akorerwa mu Rwanda, ibiyiko itara ndetse na televiziyo.

Hoteli imbere isizemo amarangi y'umuhondo, umweru, irimo amafoto, abakozi babiri bambaye impuzankano z'umweru, umukiliya w'umusore uhagaze, intebe zirimo imisego ndetse n'amavase.

Inyubako ndende ya hoteli itanga amacumbi, ifite ibyumba byinshi haberamo inama, hari amabendera y'ibihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako eshatu ndende, zifite imiryango myinshi, umunara muremure, imyenda yanitse, amatara yo kumuhanda, n'ibiti.

Ibiro by'ikigo gitanga ubwishingizi, bifite urugi n'amadirishya bikozwe mu kirahure, intebe utubati dusashe uko.

inyubako ikoreramo saniramu ikigo gikorera mu Rwanda gitanga ubwishingizi hari mudasobwa eshatu amafoto ari ku gikuta ndetse n'ibyapa.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, bisa ubururu bifunguye, igikuta gisa umweru. Hariho nimero ushobora guhamagara, makumyabiri mirongo itanu.

Inyubako ndende ifite imiryango myinshi, hari ifunze n'ifunguye, ushinzwe umutekano hakoreramo banki yitwa Gosheni ifasha abantu kubitsa, kubikuza no gutanga inguzanyo.

Abakozi ba banki, umugabo uhagaze n'umugore bicaye bashinzwe kwita ku bakiriya bahari bagera kuri batatu, mudasobwa, amafoto, ikirangamatariki, n'igikuta kiri mu ibara ry'icyatsi.

Ikirango cy'ishami rya banki ikorera mu Rwanda, yizihiza imyaka cumi n'ine imaze, byabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Icyapa cyanditseho banki ya Kigali Arena, iberamo ibitaramo, ugura ikarita y'ibihumbi bitanu, ugahabwa umwanya ukomeye, ukareba igitaramo.

Umusore n'umukobwa wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara risa umweru, wambaye amadarubindi. Imbere yabo kumeza hari mudasobwa, inyuma hari akabati gateretsemo ibitabo n'ururabyo.

Icyapa cyamamaza banki nkuru y'ubucuruzi ya Afurika, hariho urubuga rwabo, nimero za telefone, umugore uri kwireba mu kirahure, wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Inyubako eshatu ndende harimo isoko hagiye harimo imiryango myinshi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye birimo ibiribwa, imyambaro ndetse n'inkweto.

Isoko ririmo abagore bahagaze ndetse n'abaguzi, ricuruza ibintu bitandukanye, birimo; intoryi, karoti, puwavuro, urusenda, ndetse n'izindi mboga.

Abantu bahagaze mu isoko ricuruza imbuto z'ubwoko butandukanye; imineke, inanasi, amapapayi, ibinyomoro, amaronji ndetse n'imyembe.

Umukobwa wicaye yambaye igitambaro mu mutwe gisa icyatsi afite icyuma mu ntoki n'amaroji, hari n'andi acuruza indimu'imyumbati iruhande rwe hari imifuka myinshi.

Iyi foto ndabona ho abantu benshi biganjemo abasore, abagore, ndetse n'abakobwa bari mu isoko ricuruza ibintu bitandukanye bikubiyemo imyenda y'abagabo iy'abagore n'iy'abana.

Isoko ririmo abagore benshi bambaye udupfukamunwa bari gushyira ibintu mu ndobo ndetse no mu mifuka.

Isoko ricuruza ibyo kurya bitandukanye; imboga, amashu, karoti, ibitunguru by'amababi n'ibisanzwe, imiteja, puwavuro, avoka, ibibiringanya, sereri ndetse na karoti.

Utuzu tubiri, kamwe kari mu ibara ry'umuhondo akandi gasa umutuku dutangirwamo ubufasha bwo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri terefone z'abakiriya, hahagaze abakobwa babiri.

Akazu gato k'Ishami ry'Ikigo cy'Umuyoboro mugari w'Itumanaho mu Rwanda, gatangirwamo ubufasha bwo kubitsa, kubikuza no kohereza amafaranga kuri telefoni, harimo umukobwa wambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari akabati karimo ibyapa.

Ikirangantego cy'u Rwanda kiriho, hepfo hariho akantu k'akazu. Harimo ahantu ho kuzuzamo ibintu, amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, hasi harimo ibara ry'umweru byose.

Abakozi babiri b'abagore bakorera ishami ry'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda bicaye mumutaka ufite ibara ry'umuhondo imbere yabo hateretse imipira, amaterefone ndetse n'ibindi bikoresho by'itumanaho.

Inzu iri mu ibara ry'umuhondo itangirwamo ubufasha bw'ishami ry'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, hari abantu bahagaze n'abandi bakoreramo televiziyo, ibyuma by'indangururamajwi, ushinzwe umutekano n'amaduka ari ku ruhande.

Iyi foto ndikubonaho icyapa kinini cya emutiyeni gishushanyijeho umusaza uri guseka n'umwana muto w'umuhungu hariho n'ibindi byanditseho ngo gura pake utsinde.

Iyi foto ndikubonaho akazu ka emutiyeni karimo umugore, iruhande rwako hari umukiriya w'umukobwa, hirya hari abandi bantu bari mu mutaka.

Iyi foto ndi kubonaho umukozi wa MTN wicaye, uri gufasha abakiriya baje bamugana, bamwe bari iruhande rwe barunamye, naho abandi bari ku murongo bategereje ko bari bubafashe.

Iyi foto ndikubonaho ahantu hatangirwa serivise za eyateri hari abakozi baho bambaye imipira ndetse n'ingofero bisa, hari n'abakiriya baje kwaka serivise zitandukanye.

Iyi foto ndi kubonaho inyubako ndende ifite imiryango myinshi imwe ifunguye imbere yayo hahagazeho umugabo n'undi uri kuza uri mu muhanda impande hari akazu ka Mtn karimo umwajenti.

Iyi foto ndikubonaho umwajenti wa emutiyene uri gufasha umukiliya wambaye amarinete, bombi bahagaze mu mutaka bafite telefone, ku ruhande hari abandi bicaye n'abandi bagenda mu nzira, ibiti ndetse n'imodoka.

Iyi foto ndi kubonaho umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi afite indangururamajwi mu ntoki ze, n'amadarubindi mu mutwe inyuma ye hari icyapa cya emutiyene n'abandi bantu benshi.

Iyi foto ndikubonaho umugabo uri mukazu, uri kwakira umukiriya w'umuzungu, wambaye ikote ririmo amabara y'umuhondo n'umukara, ufite amadarobindi muntoki, hirya ye hahagaze umuntu wipfumbase, hari n'imodoka kumuhanda.

Iyi foto ndi kubonaho abantu batanga serivise z'irembo, babitsa bakanabikuriza abakiliya amafaranga, hicayemo abantu batatu, umusore umwe n'abakobwa babiri, hari icupa ry'amazi, mudasobwa ndetse n'ibyapa.

Iyi foto ndabonaho abakozi b'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, bari gufasha abakiliya babo, ku birebana n'uburyo bwo gukoresha telefone, bohereza, bishyura bakanabitsa amafaranga, hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Iyi foto ndabona akazu gato k'ishami ry'ikigo cy'umuyobozi mugari w'itumanaho mu Rwanda, karimo ibara ry'umuhondo harimo umukozi ukoreramo, ari guha ubufasha umukiriya ku birebana n'imikoreshereze mu kwishyura, kubitsa no kohereza amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Iyi foto ndi kubonaho kiyosike ya emutiyene hariho umuntu ufashe akapa, iruhande rwiwe hari imyenda ihamanitse y'amapantaro agiye atandukanye.

Iyi foto ndikubonaho kiyosike ya MTN ikoramo abantu babiri umugabo n'umugore, impande yabo hari abakiriya bagera kuri batatu bari gufasha, hirya hari umutaka urambitse hasi ndetse hakikijwe n'ibiti.

Iyi foto ndi kubonaho kiyosike ya emutiyene, hicayemo umugore, imbere ye hari telefone ziri mudukarito, hirya hahagaze umuntu wambaye umupira w'umuhondo, n'undi wambaye ishati isa icyatsi, kuruhande haparitse imodoka hanateye amashyamba.

Iyi foto ndikubonaho umwagenti wa Emutiyene w'umukobwa uhagaze mu mutaka, inyuma ye hari ameza ateretseho igikombe, munsi yayo harimo umupfundikizo, isafuriya, amakarito, iruhande rwe hahagaze umugabo, inyuma ye hari intebe isa icyatsi n'izisa umweru.

Iyi foto ndikubonaho kiyosiki ya emutiyeni irimo umukozi wayo urimo kwakira umukiriya amuhaye amafaranga ndetse arimo kumwandika mu gitabo bandikamo abakiriya.

Iyi foto ndi kubonaho icyapa kinini giteretse ku kabati, kigaragaza uko abakiriya bagomba kwishyura bakoresheje telefone zabo nk'uko bohereza amafaranga, inyuma hariyo n'ibindi bintu.

Iyi foto ndi kubonaho inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya MTN, iyo abakozi bagera kuri batatu n'abakiriya babiri bahagaze bari gufasha n'abandi bantu barimo batambuka mu muhanda.

Iyi foto ndikubonaho umuntu uri kohereza amafaranga yifashishije telefoni ye afite mu ntoki, iruhande rwe harimo amakaziye menshi bashyiramo inzoga, imbere hariho akabati karimo ibyo kunywa ndetse n'amakarito.

Iyi foto ndabonaho ubutumwa bw'umuntu ugiye kohererezwa amafaranga witwa Fabrice HAKUZUMANA hariho nimero ye ya telephone ndetse n'amafaranga igihumbi yoherejwe.

Iyi foto ndi kubonaho akazu ka sosiyete y'itumanaho ya mtn, hariho abakiriya bagera kuri bane abakobwa batatu ,n'umugabo umwe bose barahagaze.

Iyi foto ndikubonaho akazu ka emutiyene, umukozi wayo uri kwakira umukiliya w'umugabo. Iruhande rwaho ni inzu icururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibiti.

Iyi foto ndi kubonaho abagabo babiri bakorera MTN, bambaye imipira isa umuhondo, umwe yambaye amadarubindi, bari gufasha umukiriya w'umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro isa ikigina ahetse igikapu mu mugongo.

Iyi foto ndi kubonaho kiyosike ya emutiyene irimo umwajenti yambaye isaha ku kuboko afite n'ikaramu mu ntoki arimo kwandika, umukobwa umuhagaze iruhande.

Iyi foto iriho ikarita y'ikigo cy'itumanaho cya MTN, ifasha abakiriya bayo kwishyura no kohereza amafaranga abakiriya n'abaguzi.

Iyi foto ndi kubonaho abagabo babiri bafite terefone. Bahagaze iruhande rw' imodoka. Inyuma yabo hariho inyubako y' idirishya rifunguye ndetse n'ibyapa bibiri.

Iyi foto iriho umugabo uri guhahira kuri kiyosike icuruza inyanya, ari guhaha yifashishije telefone, mu ntoki ze hari ikarita iri bukurweho amafaranga y'ibyo yagiye kugura.

Iyi foto ndi kubonaho abakozi babiri, ba sosiyete y'itumanaho ya Emutiyeni. Bari gukoresha mudasobwa bafasha abakiriya babo bagera kuri babiri; umugabo ndetse n'umugore. Iruhande rwabo hari igitabo bakoresha bandikamo abakiriya.

Iyi foto ndi kubonaho urukuta ruriho icyapa cya emutiyene kiriho amazina y'umucuruzi na nimero abakiriya bakoresha bamwishyuraho amafaranga ku bicurunzwa ababa baguze.

Iyi foto ndikubonaho akabati gafunze kariho igipapuro gishushanyijeho telefone n'inyandiko ivuga ngo wikisondeka uryoherwe n'inyongera ya interineti.

Iyi foto ndukubonaho abakozi batatu ba emutiyeni, bari kwakira umukiliya bakaba bari mu mutaka, iruhande rwabo hari moto n'imodoka zigera kuri eshanu n'undi mugabo uhagaze mu muhanda.

Iyi foto ndi kubonaho sosiyete z'itumanaho ebyiri, iya Eyateri n'iya Emutiyene bari gufasha abakiriya babo bose bahagaze b'abakobwa bafite terefone mu ntoki.

Iyi foto ndi kubonaho kiyosike ya emutiyeni, harimo umuntu ukoreramo, iruhande rwe hari abana batatu b'abahungu, bahagaze, n'undi umwe wicaye. Inyuma mu muhanda hari gutambukamo undi mwana.

Iyi foto ndi kubonaho akazu ka Airtel gafasha abakiriya bayo kohereza no kubikuza amafaranga, iruhande hari abantu bari mu muhanda, bamwe barahagaze abandi baricaye hari n'imodoka.

Iyi foto ndabona aho umukozi w'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu rwanda ari kumwe n'umukiriya wabo bose bambaye imipira iri m'ibara ry'umuhondo inyuma hahagaze abantu batandukanye hakubiyemo n'abana bahagaze mu mutaka.

Iyi foto ndi kubonaho umukozi wa emutiyeni, uri gushyira amafaranga kuri telefone y'umukiriya uhagaze, abandi bari iruhande rwe, inyuma hari inzu zigiye zitandukanye, ziri ku muhanda.

Iyi foto ndi kubonaho abantu bagera kuri bane bari mu iduka umwe ni umukozi wa emutiyene ari gufasha umukiriya kwishyura akoresheje terefone hari n'ibyapa inyuma yabo n'amadirishya.

Iyi foto ndikubonaho akabati kariho ururabyo mudasobwa ziri kwaka zigere kuri ebyiri amakarita ya emutiyeni agaragaza amazina na nimero abakiriya bakoresha bishyura.

Iyi foto ndi kubonaho kiyosike ya eyateli, mo mo imbere hicayemo umuntu, ku ruhande hagiye hariho utwapa tugaragaza serivise atanga, hirya hari umutaka, hari n'icupa ry'amazi.

Iyi foto ndi kubonaho abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN bagera kuri barindwi, hakubiyemo abagabo n'abagore, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze bari kwakira abakiriya babo bagera kuri batatu.

Iyi foto, ndi kubinaho umugore uhagaze i ruhande rw'imodoka, ukorera MTN, wambaye n'ikarita mu ijosi igaragaza akazi akora, yambaye isaha ku kaboko, i ruhande rwe hahagaze umugabo uhetse igikapu mu mugongo, ufite telefone mu ntoki.

Iyi foto ndikubonaho abantu babiri umukozi wa emutiyeni ndetse n'umu ajenti wayo ahari kiyosike yo kuzajya akoreramo agafasha abakiriya kubitsa no kubikuza amafaranga inyuma yayo hari ibiti, indabo ndetse n'imiyenzi.

Urubuga rukoreshwa mu kugura ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Aho umukiriya yatumijeho agapaki k'amandazi, ku mafaranga magana atutu mirongo itanu.

Umusore wicaye kuri moto iriho igisanduku, ukorera urubuga rwitwa safironi, rukoreshwa mu gutumiza ibiribwa bakabikugezaho aho uherereye. Ibiti n'inyubako.

Urubuga umuntu afungura agashyiramo imyirondoro ye agahahiraho ibinyu bitandukanye birimo ibikoresho bya eregitoronike, imyenda, inkweto, udukomo n'ibindi bintu.

Umuhanda w'amabuye uri kunyuramo umumotari wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi ukorera urubuga rwitwa Vuba Vuba, bahahiraho ibintu bifashishije ikoranabuhanga.

Abantu babiri bari mu muhanda umusore wambaye agapfukamunwa, umumotari ufite igisanduku gishyirwamo ibintu abakiriya baba batumije, amapoto, amazu menshi n'amaduka akorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Urubuga rwitwa Murukari, rufasha abantu gutumiza ibintu bitandukanye, hakubiyeho n'ibiribwa, bibereye aho baherereye, yaba mu ngo n'ahandi hantu.

Iyi foto ndi kubonaho urubuga rukoreshwa mu gutumiza ibintu hifashishijwe ikoranabuhanga, hariho umugore wambaye ingofero, imyenda, inkweto ndetse n'imiti.

Iyi foto ndi kubonaho urubuga bakoresha batumiza ibikoresho bitandukanye, birimo imyenda, inkweto, amashakoshi y'abadamu, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Iyi foto ndikubonaho umuntu ukorera vuba vuba, ushinzwe kugeza ku bakiriya bayo ibiribwa baba batumijeho, ari kumwe n'umugabo umwe, bahagaze mu muhanda, inyuma yaho hari urugo rufite ibara ry'ubururu.

Iyi foto ndikubonaho abamotari bane bari mu muhanda ba jjumiya fudu bashinzwe kugeza ku bakiriya ibicuruzwa baba batumije iruhande rwabo hari inzu irimo ibiti bigiye bitandukanye.

Iyi foto ndabonaho abamotari bagera kuri bane batwaye ibinyabiziga byabo, aho batwaye ibintu byatumijwe n'abakiriya, bari mu muhanda.

Iyi foto, ndi kubonaho urubuga bakoresha batumiza ibiribwa, birimo: imbuto, imboga, inyanya, imineke, ndetse n'ibindi.

Iyi foto ndabonaho moto ebyiri zitwaye abagenzi babagore, hirya mu muhanda hari abantu bari gutambuka, hari ibiti ndetse n'indabyo.

Iyi foto ndabonaho urubuga rwitwa yubeyi, rufasha abantu mugutumiza ibintu hifashishijwe ikoranabuhanga, hariho imyirondoro y'umugabo witwa Nkurunziza.

Iyi foto ndi kubonaho akabati karimo ibice bitandukanye, bigera kuri bitandatu, hariho inyubako ndende irimo imiryango myinshi, igera kuri itandatu.

Iyi foto ndikubonaho urubuga rwitwa iduka rukorera muri Kigali, utumiza ibintu wifashishije telefone yawe, aho ushyiramo imyirondoro ndetse n'aho utuye.

Iyi foto ndi kubonaho abantu babiri, umumotari uzaniye ibicuruzwa umukiriya w'umukobwa, bari kubihererekanya, umumotari yambaye kasike, iruhande rwabo hari moto, inyuma yabo hari ibiti.

Iyi foto ndi kubonaho urubuga rukoreshwa mu gutumiza ibikoresho bitadukanye harimo amakanu, inkweto, n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, telefone n'ibindi bitandukanye.

Iyi foto ndi kubonaho abantu babiri umuzungu ndetse n'umwirabura bose bambaye amadarubindi mu ntoki zabo bafitemo casque zambarwa n'aba motari.

Iyi foto, ndi kubonaho urubuga rwitwa famili butike, ruherereye ku ikoso rya Kimirinko, rufasha abantu mu kubona ibicuruzwa birimo; imbuto, ibitoki, amashu, inyama, amafi, ndetse n'amavuta.

Iyi foto ndi kubonaho terefone irimo urubuga rwitwa iduka bakoresha batumiza ibicuruzwa bitandukanye birimo, imyambaro, inkweto, amaherena.

Iyi foto ndi kubonaho urubuga bifashisha bahaha, hashushanyijeho abakombwa babiri bafite terefone, ndetse n'udutima tubiri. Ikindi hariho nimero za terefone bakoresha bishyura

Iyi foto ndikubonaho urubuga rw'ikoranabuhanga rwifashishwa mu gutumiza ibikoresho bitandukanye. Ibikoresho byo mu nzu n'ibyo mu gikoni, ibiribwa byiza ndetse n'ibikoreshwa mu kwita ku buzima.

Iyi foto ndi kubonaho abagabo babiri bari imbere y'igipangu, umwe ni umumotari ari kumwe n'umukiriya ashyiriye ibicuruzwa yatumijeho yifashishije moto yiwe.

Iyi foto ndikubonaho umunyonzi ukorera vuba vuba ubafasha kugeza ibicuruzwa byabo ku bakiliya bagiye batandukanye, abaherereye mu ngo zabo n'aho bakorera akabibagezaho.

Iyi foto ndi kubonaho urubuga rwifashishwa mukugura ibintu bitandukanye, haragaragaraho imyirondoro umuntu yuzuza kugirango abashe kugura ibintu ashaka.

Iyi foto ndi kubonaho urubuga bakoresha batumiza ibintu bitandukanye, birimo iby'ikoranabuhanga udukomo tw'abagore, amasaha ndetse n'ibikoresho bya terefone.

Iyi foto iriho umumotari utwaye ibicuruzwa bya pozi akabigeza ku bakiliya baba babitumijeho bari mu ngo zabo cyangwa aho bakorera ndetse n'ahandi hatandukanye.

Iyi foto ndikubonaho urubuga rwifashishwa mu gushaka ibyangombwa birimo iby'umuryango, icyemezo cy'uko umuntu ari ingaragu, serivisi z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari imfubyi n'iz'ubukerarugendo.

Iyi foto ndi kubonaho terefoni iriho urubuga rwitwa Murukori. Rwifashishwa mu gutumiza ibiribwa ndetse n'imyambaro. Hariho ibikoresho bakoresha bamanika imyenda, ikawa, ibikoresho by'abana, ndetse n'imisatsi y'abadamu.

Iyi foto ndikubonaho umugabo uri iruhande rw'ikinyabiziga cye ushinzwe gutwara ibiribwa byo muri vuba vuba akabigeza ku bakiriya babo baba babitumijeho, inyuma ye hari icyapa cyanditseho Bugarama.

Iyi foto iriho ibintu bitandukanye; inkweto, ibikresho abadamu bakoresha bisiga ibirungo byo mumaso, inkweto, imisatsi y'abadamu, igikoresho bakoresha bumutsa imusatsi, igikapu, umupira, n'utwuma bakoresha bayungurura amajwi.

Iyii foto ndi kubonaho urubuga rukoreshwa mu kugura ibintu ukoresheje telefoni, harimo imyenda, inkweto amasakoshi y'abadamu ndetse na za mudasobwa.

Iyi foto ndikubonaho ikinyabiziga cya moto kiri mu muhanda giteretseho agasanduku kanditseho Vubavuba, urubuga rwifashishwa mu gutumiza ibiribwa hifashishijwe ikoranabuhanga.

Iyi foto ndi kubonaho umukobwa uri guseka afite telefone yambaye akuma kamufasha kumva amajwi ari kugura ibicuruzwa yifashishije telefone ye, iruhande rwe hari agakapu.

Iyi foto ndikubonaho umumotari wicaye kuri moto ye yambaye ipantalo y'umukara n'ikote ry'umukara afite terefone mu ntoki ze atwaye ibiribwa ku bakiriya babitumijeho.

Iyi foto ndi kubonaho imodoka iparitse, iriho icyapa cyanditseho migoro, hariho na nimero za telefone. Ni urubuga rwifashihwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, mu gutumiza ibikoresho bitandukanye.

Iyi foto ndabonaho ihahira ryitwa birasa, hariho icupa rivamo gaze, moto iteretseho igisanduku, icupa rivamo amazi yo kunywa, hashushanyijeho telefone ndetse na nimero.

Iyi foto ndi kubonaho urubuga rwifashishwa mu kugura ibikoresho bya eregitaronike, birimo firigo, tereviziyo ndetse n'inindi bintu bitandukanye.

Iyi foto ndi kubonaho urubuga rucururizaho ibintu hariho umukobwa urimo guseka, n'amavuta yo kwisiga mu maso n'ayo mu ntoki.

Iyi foto ndikubonaho urubuga rutekanye, rw'ikoranabuhanga rukoreshwa mu gutumiza ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye. Ikindi kandi hariho mudasobwa.

Iyi foto ndi kubonaho abamotari batatu, bajyanye ibicuruzwa bya migo, bashyiriye abakiliya babo baba baguze, baba baguze hifashishije ikoranabuhanga mu gutumiza ibintu.

Iyi foto ndi kubona umugabo wambaye umupira w'ubururu yambaye ingofero, afite ikarito mu ntoki ze yanditseho isoko rigari, akaba akorera urubuga rwa soko rigari doti komo.

Iyi foto ndikubonaho imodoka y'ikamyo yanditseho amagambo avuga ngo iposita ikoreshwa mu kugeza ku bantu amabaruwa baba bandikiwe ikayageza ahantu hagiye hatandukanye.

Inyubako yo guturamo, ifite igipangu kiri mu ibara ry'umukara, hubakishijwe amatafari ahiye, iherereye muri Kigali, iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, imodoka iparitse mu muhanda w'ibitaka.

Ubutaka bwiza buherereye kicukiro santire hafi y'umurenge ufite ubuso bugera ku gihumbi magana arindwi buragurishwa miliyoni magana atatu neshanu, ni ukuvuga ibihumbi magana abiri mirongo irindwi na bine n'amafaranga magana atanu by'amadolari.

Inzu yo guturamo iherereye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi, irimo televiziyo icyuma gitanga umuyaga, intebe, ameza, ndetse n'akabati.

Inyubako yo guturwamo, iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kabeza, ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, irimo ibikoresho byose; utubati, imashini imesa aho kogereza n'ibindi.

Inyubako yo guturamo, ifite imiryango ikozwe mu birarahure, iherereye ku gisozi hafi ya kagugu, igurishwa miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako ndende hanze y'urugo hari indabyo, ikodeshwa amadorari ijana ku kwezi, iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali.

Ikigo gitanga serivisi ku mitungo itimukanwa, kiragurisha ubutaka n'inzu, biherereye muri Kigali Musave, Bumbogo, amafaranga miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu irimo umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara. Umugore w'umwirabura wambaye ikanzu, ameza, intebe, utubati tubiri kamwe karimo inzoga z'ubwoko butandukanye, ibirahure n'ibindi bikoresho n'akandi gateretseho indobo.

Ikigo gikorera mu Rwanda gitanga serivisi ku mitungo itimukanwa, kiragurisha inzu iri yonyine mu gipangu yo muri Kigali miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri.

Inyubako irimo amakaro, ifite imbuga nini, iherereye i Kanombe iruhande rw'ikibuga cy'indege igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako yo guturamo iherereye mu mujyi wa kigali muri kanombe ikodeshwa ifite ibyumba bitatu n'ubwiherero bubiri ku mafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana ane buri kwezi.

Inzu ikodeshwa iherereye mu Kagarama amafaranga ibihumbi magana atandatu y'u Rwanda ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu.

Inzu yubatse neza igezweho iherereye mu mujyi wa kigali muri kanombe ikodeshwa ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezwho, hanze hahagaze umusore wambaye umupira w'umweru, igurishwa iherereye mu mugi wa Kigali muri cyimironko, amafaranga miliyoni mirongo ikenda n'eshanu.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ifite izugi zikozwe mu birahure, ibigega by'amazi, ikodeshwa iherereye mi mujyi wa Kigali muri Kicukiro ifite ibyumba bibiri n'ubwiherero bumwe ku mafaranga ibihumbi maganabiri mirongo itanu ku kwezi.

iyi foto ndabonaho inyubako iri kugurishwa nikigo gifasha mu kwamamamaza no gushora imari ku mituungo itimukanwa igabanyijemo ibice bibiri buri nzu ifite ibyumba bine.

Ikigo cyamamaza imitungo itimukanwa kiragurisha inzu iherereye muri Kigali, i Kanombe. Ifite ubuso bugera kuri magana atatu mirongo itanu, ku mafaranga miliyoni imwe z'amanyarwanda.

Inyubako imbere irimo amakaro, ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi, iherereye muri Kigali Kimironko, ifite ibyumba bibiri, ubwiherero bumwe, iri yonyine.

Inzu umuryango urafunguye, ni inyubako ikodeshwa iherereye Kimironko ifite ibyumba bitatu amafaranga ni ibihumbi magana ane ku kwezi.

Inyubako nini y'isoko igeretse kane, ifite imiryango myinshi, icururizamo ikanakoreramo ibintu bitandukanye, birimo ubucuruzi bw'imyenda, inkweto, z'abana n'iz'abantu bakuru n'imikufi.

Iduka rinini ricuruza ibyoku kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho, ririmo abakiriya n'abakozi bakoreramo, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Iduka rinini ricururuza ibyo kunywa n'ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho bitandukanye, ririmo abantu bicaye bakoreramo bari imbere ya Mudasobwa n'abakiriya bahagaze bari guhaha.

Iduka ririmo abantu benshi batandukanye, abasore umwana, umugore, televiziyo, intebe, ibitabo, firigo,

Iduka ririmo abantu bari mu imurikagurisha, umukobwa, umuzungu, abasore babiri, n'umukiliya, amasahani, utumashini dutunganya ibyo kunywa, n'ibyapa byamamaza.

Ibiti byinshi, inyubako ndende ifite imiryango myinshi ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, ibyapa biri ku muhanda, imodoka, abamotari n'abantu bari gutambuka.

Iduka rinini rifite amagorofa atatu, ricuruza imyenda, inkweto ndetse n'ibiribwa, harimo abantu bahagaze, abakoreramo n'abakiliya, imitaka n'intebe biri aho bakirira abantu.

Iduka rinini ryubakishijwe amakaro, rifite inkingi ziri mu ibara rya shokora, harimo abantu benshi bahagaze abandi bicaye amadarajya n'insinga.

Mituweli ikarita y'umunyamuryango w'ubwisungane mu kwivuza, itangwa n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda uyifite ntarembera mu rugo ayerekana igihe cyose agiye kwivuza.

Amashuri afite amabati y'ubururu yubakishijwe amatafari ahiye, amashyamba, icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cyanditse ho EjoHeza, abantu benshi bahagaze n'bandi bicaye bitwikiriye imitaka.

Inyubako ndende cyane, ifite inkingi ziri mu ibara rya shokora ibirahuri bisa ubururu hanze hari ubusitani burimo indabo ibendera ry'igihugu cy'u rwanda hakoreramo ikigo cy'ubwishingizi.

Abantu batatu bicaye; abagabo babiri n'umugore umwe, ku meza, mbere yabo bateretseho mudasobwa, uducupa tw'amazi, indangururamajwi, n'akapa kanditseho ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda.

Ikarita iriho ikirango cy'ikigo cy'u Rwanda gifasha abantu kubona ubwisungane mu kwivuza, ubwishingizi, ndetse no kuba umuntu yakwizigamira.

Icyapa cyamamaza kiriho umugabo ufite igikapu ku rutugu wambaye amadarubindi n'ingofero mu mutwe cyo muri ejo heza isobanura ku birebana na pansiyo.

Mu kibuga ni ho abantu bidagadurira, bashobora gukiniramo imikino itandukanye, waba uw'amaguru, uw'amaboko ndetse n'iyindi, ibiti iyo biteye bicucitse bigira akamaro kanini cyane, bishobora gukurura imvura, ikindi kandi byavamo n'inkwi ndetse n'amakara.

Mu ihema ritatseho ibitambaro bifite amabara y'ibendera ry'u Rwanda, hicayemo abagabo n'abagore bigaragara ko hari inama barimo cyangwa inteko runaka.

Amazu yubakishijwe amatafari ahiye, ikigega cy'amazi. Abantu bicaye bakubiyemo abasore abakobwa ndetse n'abana, ibyapa byamamaza ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda.

Isoko ricuruza ibyo kurya byiza harimo akabati gateretsemo amashu, karoti, ibigori n'izindi mboga z'ubwoko butandukanye, hahagazemo umukobwa wambaye ingofero umupira wi'imbeho n'inkweto z'umweru ufite akantu ahahiramo kari mu ibara ry'umukara.

Akabati gateretsemo imigati y'ubwoko butandukanye, igikarito kiri hasi, iparato iteretseho icyuma n'akaboko k'umuntu wambaye agakomo k'icyatsi.

Iduka ririmo abasore bane n'umukobwa umwe, harimo abakozi bakoreramo n'abaguzi, utubati turimo ibicuruzwa bitandukanye, amakaroni, imiceri, ifu y'ubugari n'iy'igikoma.

Isoko ririmo umukozi ukoreramo, ricuruza ibyo kurya bitandukanye, nk'imiteja, powavuro, karoti, amashu ndetse n'ibindi bikoresho byo mu bwiherero.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye ibiribwa birimo imigati isukari, fanta, ji z'ubwoko butandukanye omo ikora isuku.

Urubuga rw'irembo rwafunguye serivisi nshya aho ukoresha imashini cyangwa telefone ukaba washyiraho igihe wasezeraniye mu murenge kugira ngo uhabwe icyemezo cy'uko washyingiwe.